Aha ni ukwamamaza ibyiza bya Radiyanti yacu, aho bavuga ko ibihe nk'ibi bakagenda bavuga bataka Radiyanti harimo umugore n'umugabo, umusaza n'umukecuru bishimanye kubera bafite ubuzima bwiza, bakagushishikariza niba ushaka kugira icyo ugira kanda akanyenyeri maganatatu na mirongo itatu na rimwe.

Iyi ni inyandiko iri mu rurimi rw'icyongereza ifite umugabo ufite umutaka uri mu ibara ry'umutuku amagambo yandikishije umuhondo n'umweru . Handitse ngo gira ubuzima na inshuwarensi uyu munsi hagiye hariho na numero twabasangaho ku bindi bisobanuro.

Iki ni icyapa kiri ibara ry'umweru aho cyanditse mu magambo y'icyongereza avuga ngo nsobanuye mu kiyarwanda ngo ntugire impungenge duhari kubwawe, gira ubuzima bwiza na inshuwarensi ku maso yawe; aho hari umugore uryamye usa nk'umeze nabi.

Uru ni urupapuro rwa Radianti, aho bavuga ngo wihangayika intego ni ugutangira umwaka ushinganisha ibyawe n'abawe, maze ugire umutekano usesuye uhawe ikaze muri Radiant bakakubwira ku bindi bisobanuro, bakaguha nimero ya bo aho wababonera.

Iki ni icyapa cyo ku muhanda kiri mu mashusho aho wanditse mu rurimi rw'icyongereza bisobanu mu kinyarwanda ko ujya wiyumvamo umutingito y'umutingito? Cameroon harley, uwabivuze harimo umugabo wambaye ikositimu.

Aya ni amagambo ari mu rurimi rw'icyongereza aho bivuze mu kinyarwanda, ohereza kuri mobiyiro mani injisamo imyishyurire, imyirondo y'imyishyurire yawe, ikindi uwo uyoherereza byose ubundi wohereza amafaranga.

Uruhu rwandiko rufite amafaranga umuntu asigaranye kuri konti rwandikije mu ibara ry'umukara rwerekana ko byaciye mu ibara ry'icyatsi, ahaba hari amazina, ahari amafaranga usigajeho ikindi kwemeza ukanda hasi handitse dane hari mu ibara ry'ubururu handikishije mu ibara ry'umukara.

Aha ni inyubako icuruza ibitenge birimo amoko agiye atandukanye hari ibirimo icyatsi, hari ibisa umutuku, hari ibirimo icyatsi numutuku, hari ibirimo umweru nubururu, hari ibirimo umweru numukara bigiye bitandukanye, hari nitumeza kuruhande.

Aya ni amashati agiye arimo amabara atandukanye harimo; asa umuhondo, asa umutuku, asa arimo icyatsi.

Aha hari imyenda imanitse igiye itandukanye harimo udupira tw'amaboko ku magufi, harimo udupira tw'amaboko maremare, n'udupantaro twatwo tw'abana, harimo amakabutura, harimo amabara y'umukara, umweru, orange, icyatsi n'udutandukanye.

Ni inyubako yerekana ibicuruzwa harimo amakositime, harimo inkweto za congo izisa shokora n'izindi zisa umukara zigiye ziri mu kabati, zigiye zitandukanye, zipanzemo neza n'amakositime afite amakaruvati yo mu mabara agiye atandukanye.

Aha ni mu isoko ry'imyambaro aho harimo imyenda y'abagore n'abapapa, harimo amashati harimo amakanzu, harimo ipantaro n'udusengeri, bisa ku ruhande harimo udukanzu tugiye dutandukanye turimo amabara y'umuhondo, umutuku, n'umweru.

Aha hari inkweto z'ubwoko bugiye butandukanye, hari iza taro ziri mu mabara y'umukara, hari izindi za taro zifite umukara n'umweru, hari na supuresi ziri mu ibara ry'umweru zifite umukara hasi.

Ni mu iduka ricuruza imyenda aho harimo amakoti afite ingofero n'andi y'amajampa agiye atandukanye ari mu mabara harimo irifite ibara ry'umweru, irifite ibara ry'umuhondo, hari irifite ibara ry'umukara, hepfo harimo andi makoti atandukanye n'amashati.

Umumama arimo arakoresha uburyo bwiza wo kwishyura amafaranga no kwishyurwa no kohereza ahagaze ahantu keza ku kazu, ku kazu gato kari mu mabara menshi cyane, umuhomdo, umweru, n'ubururu kari n'ahantu heza.

Iyi ni imodoka iri mu mabara y'umutuku ifite amapine y'umukara hirya hari indi nayo iri mu ibara ry'umutuku bwijimye iyo hino ni mu mutuku werurutse inyuma hari amakamyo abiri ya yundai ari mu ibara ry'umweru.

Iyi ni imodoka aha ni mu imbere mu modoka aho harimo intebe zirimo ibara ry'umweru imiryango irafunguye, hirya hari imodoka y'ivatiri iri mu ibara ry'umutuku, mu imbere harimo iyo miryango irimo umukara n'umweru.

Iyi ni inyubako ifite amakaro hasi arimo ibara ry'umweru ifitemo n'imodoka iri mu ibara ry'umukara n'indi iri mu ibara ry'umukara bwijimye cyane, inyuma hari igipapuro cyanditseho yundayi kiri mu ibara ry'ubururu bwijimye.

aha hari imodoka ebyiri ziri mumabara y'umukara zisa ziri hasi hari amapave kuruhande hari korotire ifite amadirishya inyuma handitse amagambo y'icyongereza avuga ngo akagera business group

Aha hari abagabo babiri bari gusuhuzanya, bafashe icyapa cyanditseho akagera moto, inyuma yabo hari ibikamyo bibiri, kimwe kiri mu mabara y'ubururu, ikindi kiri mu mabara y'umweru, umwe muri abo bagabo yambaye hejuru ishati y'umweru, hasi yambaye ikoboyi isa ubururu.

Aha hari abagabo babiri umwe yambaye ikositimu, undi yambaye agatisheti ka karokaro gafite akarangantego kanditseho Akagera Moto n'indi ambaraje irimo ibara ry'umutuku, inyuma hari imodoka ebyiri imwe iribura ry'mweru, indi iri mu ibara ry'icyatsi cyerurutse.

Iyi ni imodoka iri mu ibara ry'umukara, aho inyuma yanditse kuri purake yanditse ngo Kigali kazi maketi, aho hirya hitaruye hari ibiti biri mu ibara ry'icyatsi, hino hari inyubako ya etaje, aho iyi modoka ari nziza cyane.

Iyi ni imodoka y'umukara nziza cyane ya Merisedesi benzi ya bibiri na cumi na kabiri, aho iri kugurishwa miliyoni mirongo itanu. Byanditse mu rurimi rw'icyongereza ariko mu rurimi rw'ikinyarwanda nkuko mbabwiye iri kugurishwa kuri miliyoni mirongo itanu.

Iyi ni imodoka iri mu mabara y'umukara inyuma yanditseho kigali cars market, isoko ry'imodoka, hirya hari imodoka ziri mu mabara y'umweru, hari n'inyubako ya etage ifite amabara y'umweru, umukara n'ibirahuri by'ubururu.

Aha hari abantu bane, harimo abazungu batatu umugore n'umugabo n'umwana n'undi batwite n'undi mugabo bafashe icyapa cyanditseho akagera moto ku ruhande hari imodoka iri mu mabara y'umukara.

Aka ni akuma kabara amafaranga; kagiye gafite imibare igiye itandukanye kandikaho inoti zibaze n'amafaranga muri rusange. Izo n'intonki zifashe amafaranga hejuru hari amafaranga ako kuma kari kugenda kabara amafaranga inoti imwe kuri imwe.

Aha n'inote y'amafaranga y' u Rwanda ibihumbi bitanu iri mwibara ry'umutuku yanditseho amafaranga ibihumbi bitanu iri k'umeza ifitemo ibara ry'umuhondo ryerurutse ikindi iyi note ifite inyubako iri m'umuzenguruko.

Aha ni mu nyubako itanga serivisi zigiye zitandukanye, aho hari umugore wicayemo imbere ufite mudasobwa imbere ye, hakaba hari n'umugabo uri hanze n'abagore babiri bategereje ko babaha serivisi, umwe yambaye kositime.

Aha hari umugabo wicaye mu biro yicaye yambaye impeta ikindi afite akamashini, imbere ye ahafite n'amafaranga ku ruhande menshi agiye azengurukijeho akadodo ari kugenda ayabara.

Ni ku meza iriho isahani, iriho keke, iriho ifuke n'ikiyiko, ku ruhande hari igikombe kirimo icyayi, hirya hari umugabo uhagaze wambaye ipantaro iri mu ibara ry'umuhondo, aho icyo cyayi igikombe gifashwe n'ukuboko k'umusore ari gukinywa.

Aha ni inyubako itanga amata ikora ibintu bijyanye n'amata aho handitse ngo Inyange Milkzone, aho abantu bakunda amata hari n'akabido kari mu ibara ry'umweru, hari umugore usutse ibintu by'umukara, wambaye itaburiya y'umweru, yicaye ku ntebe y'umweru.

Aha ni inyubako y'ubucuruzi, igiye ifite ibinyobwa bitandukanye, aho harimo novida, harimo inyange harimo tuwisite, harimo amazi ya nili, harimo n'intebe irimo ibara ry'ubururu, aho ayo mazi ari mu ibara ritagaragara, ji yinyange mu ibara rya orange, harimo na navida y'icupa ry'icyatsi..

Aha hari amacupa y'amazi yubakishije akazu k'ibyuma kari mw'ibara ry'ubururu, ifite n'ingufuri iyifungishijeho.

Utu ni utubido turi mu ibara ry'umweru, dutanu n'akandi kari mu ibara ry'umuhondo kamwe gafite umupfundikizo, uri mu ibara ry'umutuku. Aho ku tubido tw'umweru hariho amazina agiye atandukanye hariho nka Visenti, Boyi, n'andi.

Ni inyubako icuruza ibintu bikoze mu mata handitseho ikaze dayari hariho ibishushanyo birimo yahurute z'inyange, amaji y'inyange, imisemburo igiye itandukanye yego ku rugi hafite inzugi z'umweru hirya hari n'inzugi z'umukara.

Aha hari ibyo kunywa bigiye bitandukanye bikoze mu mata harimo amayahurute ari mu bwoko butandukanye, harimo ari mu ducupa twa pinki, hari mu ducupa tw'umuhondo, hari no mu dukombe tugiye dutandukanye.

Ni inyubako y'ubucuruzi bw'amata aho hari umugabo ufite ijage n'akabido mu ntoki ari kumukorera amata ngo amushyiriremo imbere hari uje kugura amata ahategereje amata ye hirya hari undi mugabo wambaye agapira karimo ibara ry'umutuku.

Aha hari abagore babiri bambaye ubururu, udupira turi mu ibara ry'ubururu. Bakaba bari gucuruza, akaba handitseho Mukamira diary ltd; aho bafite amaji ya Mukamira, bakaba bagiye bafite n'amata n'amayahurute bya Mukamira.

Iyi ni inyandiko ya Rwanda Development Board yanditswe mu rurimi rw'icyongereza, aho bavuga ko ari Certificate of Enterprise Registration, harimo registration date, hakabamo amazina, izina rya business, head office adress, na nyiri business.

Uru ni urwandiko rwa Rwanda reveni otoriti ruri mu magambo y'icyongereza aho bavuga kuri tini, bakavuga imibare yabo bakavuga izina ry'uwo muntu, bakavuga n'imisoro agiye kwishyura, igihe azayishyura igihe yadekarariye byose, amazina byose no gusinya birimo.

Aya ni amafaranga agiye atandukanye mu bihugu bitandukanye harimo nk'amadolari, harimo n'ifaranga, rimwe ry'amadolari, harimo ama amverope, harimo amafaranga agiye atandukanye mu bigo bitandukanye. Hafashwe n'ibiganza bibiri by'umuzungu wambaye ikositimu y'umukara irimo ishati imbere iri mu ibara ry'uburu bwerurutse.

Iyi ni inote y'amafaranga magana atanu y'amashiriningi iturutse muri banki ya Tanzaniya, aho batwerekaga ko ikirangantego cya Tanzaniya n'amafaranga ayo ariyo.

Aya ni amafaranga n'inote zigiye zitandukanye zo mu bihugu bitandukanye harimo amadolari amayero y'amafaranga agiye atandukanye harimo ibihumbi ijana, ibihumbi cumi, intote y'ibihumbi icumi y'amadolari afashwe n'ibiganza bibiri by'umugabo.

Aya ni amafaranga harimo amafaranga y'amadolari ijana, harimo andi y'ama Europe makumyabiri n'andi mirongo itanu, aho afashwe n'akaboko k'umuzungu bari kuyahererekanya.

Aka ni akazu gatoya k'ubucuruzi ko kubikuriza no kohereza amafaranga, aho kari mu mabara y'ubururu, hejuru handitse mu rurimi rw'icyongereza ko ari ukohereza no kwakira amafaranga hano, ikindi kohereza kuri monigarama, kuri wesitani yuniyoni.

Aha hari icyapa kiri mu rurimi rw'icyongereza cyanditseho Western Union, bank of Kigali (banki y'i Kigali), financially transforming lives (ihindura ubuzima), hepfo handitseho Sapim Forex Bureau, hakabaho na nimero ya telefoni, MTN n'iya TIGO ariyo 0788454356.

Izi ni intebe zo kwicaramo zo muri salo, zifite udusego tugiye dutandukanye, inyuma hari inzu iri mu mabara y'umuhondo n'amadirishya n'inzugi biri mu mabara y'ubururu, hari umuntu wicaye hari n'akandi tumeza tu inshi.

Aha ni muri salo aho hari udutebe dutatu twiza dufite imisego iri mu ibara ry'umweru, tukaba dufite dukozwe mu ibara rya shokora ryijimye hari n'akameza kari mu ibara rya shokora ryijimye hari n'umutako uhari.

Aha ni mu nyubako isize amabara y'umweru, ifite umutako uri mu mabara y'umweru n'umukara, ifite imeza imwe n'intebe icumi, n'utumeza dutoya tubiri, ufite n'amakaro ari mu ibara ry'umweru, ufite n'amadirishya

Izi ni intebe n'ameza n'utumeza tundi tubiri, aho intebe ziri mu ibara ry'umukara, imeza iri mu ibara ry'umweru n'utwo tumeza tubiri turi mu ibara ry'umweru, hirya hari icyapa cyanditse mu rurimi rw'icyongereza bisobanuye mu kinyarwanda ko hari ati ya Kwizera, aho atanga serivisi zikurikiranye nk'ibikoresho byo mu nzu n'ibikoresho byo hanze.

Iyi ni inyubako ya etaje ifitemo amabara y'umweru, ibirahuri birimo ibara ry'umukara, hejuru handitseho mitosi, ku ruhande harimo akabara k'umutuku, hirya harimo ibara ry'umukara, na ryo ruguru harimo utugiriyaje harimo n'amarido ari mu ibara ry'umukara.

Aha ni ahantu heza abantu bicara barya, hari ameza arimo amasahani ariho ibyo kurya n'ibikombe biriho ibyo kunywa, imbere yaho hari ubwogero.

Iyi ni inyubako ya etaje ifite ibiti biri mu ibara by'cyatsi ku ruhande, hepfo ifite ubwogero bwiza nka pisine mu rurimi rw'icyongereza, aho harimo n'udutaka n'intebe zo kwicaraho, ku ruhande harimo hubakishijwe amapave.

Aha hari intebe ebyiri, hari n'akameza gateretseho ibyo kunywa bibiri, bifitemo imiheha, bifitemo amabara, harimo ibintu bidafite isura, imbere hari amatara agiye atandukanye n'amashyo.

Iyi ni hoteri, ni inyubako ya hoteri irimo amatara meza ibara ry'umuhondo, intebe nziza cyane, iyi ni etaje aho ifite amabara agiye atandukanye, ikozwe mu birahure byiza cyane ifite amakaro ari mu ibara ry'umweru.

Aha ni inyubako ya hoteli; irimo intebe nziza, hari n'ibinyobwa bijya bitandukanye bifite ibisindisha n'ibi bidasindisha, hanze hari insina z'ibitoki aho hari n'udutaramo imbere twiza twaka ibara ry'umuhondo.

Iyi ni inyubako ya etage aho ku ruhande ifite intebe zo kwicaraho, ifite akantu k'aka resitora. Hanze hari ibiti harimo n'agapasiparume karimo ibara ry'icyatsi, ku dutebe turi mu ibara rya shokora ryerurutse.

Iyi ni inyubako ya etaje nini cyane, ifitemo amabara y'umweru, ifite amadirishya ari mu ibara ry'umukara, ifitemo n'umuhondo, ifitemo pasiparume iteyemo igiti.

Iyi ni inyubako iri ku kumuhanda wa kaburimbo ya etaje, ifite amabara y'umuhondo n'ubururu bwerurutse ku ruhande hari amatara yo ku muhanda acanye hari n'imodoka y'ivatire iri hepfo.

Aha ni mu nyubako irimo televiziyo iri mu ibara ry'umukara ubona ko hari hasi harimo amarido meza ari mu ibara, harimo umweru, harimo n'udutebe twiza dufite n'utundi tumeza twawo tubiri harimo na tapi, harimo n'amakaro arimo ibara ry'umweru.

Ama esikariye amanuka iri mu ibara ry'umweru n'umukara, hepfo hari amakaro ari mu ibara ry'umweru, afite ikizeru kirimo ibara ry'umukara kindi hari ikintu gifashe ku gikuta kiri mu ibara ry'umutuku kizimyamwoto.

Iyi ni inyubako ya etaje hepfo hari icyapa kerekana aho parikingi iba iherereye handitseho kuri etaje purayime inshuwarensi n'ibindi bigiye bitandukanye, hepfo hari parikingi y'imodoka haparitse imodoka iri mu ibara ry'umweru.

Aha hari inyubako yinjira mu muryango handitseho radiant insurance company aho imbere yaho hari moto iparitse idafite umuntu uyitwara hakaba hari na kasike winjiyemo imbere ubona intebe n'imeza ku ruhande hari amavase ajyamo ibirabyo .

Ibi ni ibiro birimo mudasobwa ebyiri, aho hari n'akantu ka kamera, ku ruhande hari intoki z'umugabo wambaye ikositime, harimo mudasobwa zirenze imwe, ku ruhande

Ibi ni ibiro bifite igikuta kiri mu mabara y'umweru n'umutuku, intebe zisa umukara, aho kwandikira hari mu ibara ry'umukara n'umutuku, harimo amafoto, imwe mu mafoto ni perezida w'u Rwanda ahandi ni umwana wambaye iniforume, ahandi ni umuntu ni agaseke.

Hari abagore bagiye batandukanye barimo abambaye imyenda y'igitenge, ikindi imbere hari n'umuzungu nawe wambaye agapira k'umukara hejuru, bafite ibibindi binini bikoze mu cyuma bimwe batwariramo amata biri mu ibara ry'umweru werurutse, harimo n'akantu kagiye kazungurutseho k'icyatsi.

Ni icyapa kiriho umukobwa wambaye ubururu, ufite imisatsi y'umukara, ufite n'amarangi hejuru y'amaso ari mu ibara ry'ubururu, byanditse mu rurimi rw' Icyongereza ariko bisobanura mu Kinyarwanda Guarant trust bank, ivuga ko iyi ni wikendi dutangire kwizigama no gufunguza amakonti yacu, dukoresheje akanyenyeri magana atandatu urwego.

Iri ni isoko ricuruza ibintu bya kinyarwanda bigiye bitandukanye harimo amaherena ya kinyarwanda, amajipo ya kinyarwanda akoze mu bitenge harimo n'udutako tugiye dutandukanye harimo n'udupira, harimo n'amasahani.

Aha ni mu isoko ry'imbuto n'imboga, aho harimo abantu bagiye batandukanye, harimo abazungu b'abagore n'abagabo, harimo inyanya, harimo ibintu bigiye bitandukanye biri mu mabara y'icyatsi, umutuku, umuhondo, oranje.

Aha ni mu muhanda wa kaburimbo, aho ku nkengero za kaburimbo, harimo ivatiri iri mu ibara ry'umweru n'indi modoka ifite ibara ry'umweru, hirya hari inyubako, hari isoko ririmo ibintu bigiye bitandukanye, hari abantu bagiye batandukanye, hari abamotari baparitse, hari abagenzi, hari aba...

Aha ni isoko rya Nyabugogo aho hari abantu bajya batandu, iryo soko ryubakishije ibara ry'ubururu hanze hari imodoka iri mu ibara ry'umukara, harimo abagore bahetse abana harimo abagabo bikoreye imizigo hari abamotari bahagaze.

Iyi ni inyubako ya etaje yubakishije ibirahure biri mu mabara y'ubururu, hejuru hari ibara ry'umuhondo ku ruhande hari amamoto, hari n'amavatire, hari amatara yo ku muhanda, hari abagabo n'abagore bari kugenda batambuka.

Hano bari mu isoko ririmo ibiribwa bigiye bitandukanye harimo ibitunguru, harimo amapavuro, harimo amakaroti n'ibitoki, harimo abagore n'abagabo; abahetse abana n'abagabo bari kugenda bagura ibintu byo kurya bitandukanye.

Aha ni mu isoko ry'ibiribwa n'ibinyobwa aho hari ibiribwa harimo nk'ibitoki amapapayi ibirarayi ibitunguru harimo n'abantu bagiye batandukanye, bagiye batandukanye abagore abagabo bambaye imyenda igiye itandiukanye mu mabara yayo.

Aba ni abagore babiri bicaye bafite imifuka imbere yabo irimo ibirayi, iyo mifuka ifitemo ibara ry'umweru, hari n'undi mugabo ufite agafuka gato k'umweru bari gushyiriramo ibirayi umugore, umwe yambara amarinete.

Iri ni isoko ricuruza imbuto zigiye zitandukanye, aho harimo inanasi, harimo imineke, harimo wotameloni, harimo ibinyomoro, amaronji, harimo n'umugore uri ku ruhande wambaye ibitenge, hino hari undi mugore bose baricaye.

Aha ni mu muhanda wa kaburimbo aho ku ruhande hari inyubako ya etage, ikindi hanze hari amamodoka ari mu ibara ry'umweru, hari abanyamaguru bagiye batandukanye, hari ibyapa byo ku muhanda hariho icyo guparika, hari abamotari bategereje abagenzi.

Hari abagabo bahagaze imbere y'agaposita ka MTN aho bambaye imipira y'umuhondo harimo n'uwambaye ingofero irimo umuhondo, inyuma hari undi wambaye agapira karimo umweru aho ku ruhande yanditseho MTN Mobile Money biri mumabara y'umuhondo ikindi harimo n'amabara y'ubururu.

Aka ni agapapuro kari mu mabara y'umuhondo kanditse mu rurimi rw'Ikinyarwanda ngo ishyurana na momo pay kanda kanyenyeri ijana na mirongo inani na kabiri, akanyenyeri umunani akanyenyeri rimwe akanyenyeri kode yawe zero kane gatatu gatandatu gatandatu icyenda urwego, nta yandi mafaranga wishyura, yego byandikishije mu mabara y'umukara.

Aba ni abagabo babiri, umwe yambaye agapira ka MTN kari mu ibara ry'umuhondo afite mudasobwa imbere ye, undi bose bari kureba muri telefone yabo aho bari kureba, umwe ari guseka undi yambaye amarineti.

Aka ni akazu ka MTN kari mu mabara y'umuhondo, kandiishijeho amagambo y'ururimi rw'Icyongereza, ari mumabara y'ubururu n'umukara, hari abagore babiri bari kuganira, umwe afite ikaramu ari kwandika n'gitabo imbere ye, ku ruhande hari igiti kirekire hirya hari abandi bantu bari mu mitaka.

Aha hari umugore wambaye umuhondo uri mu mutaka w'umuhondo wanditseho emutiyeni momo biri mu cyongereza ishyura na momo, koresha na momo apu ukandi kanyenyeri ijaja ana mirongo itandatu natandatu na gatanu akanyenya gatatu urwego, kuru ruhande hari amasafuriya hari ububido hari n'ibintu bigiye bitandukanye.

Aha hari akapa kanditseho ngo ishyura na momo peyi, hari na kode, n'amazina ibaruyeho, hano hari na telefone iri mu ibara ry'umukara, yerekana umuntu umaze kwishyura ibihumbi bibiri na magana atanu, biri mu rurimi rw'Ikinyarwanda, aho batwereka ko nta kiguzi gihari.

Aha ni mu nyubako icururuza ibiribwa n'ibinyobwa aho hari abantu batatu harimo umu mama n'abakobwa babiri uwo mu mama yambaye ikibubu, abo bakobwa babiri bambaye udupira two hejuru turi mu ibara ry'umuhondo harimo n'akabara k'ubururu.

Aka ni akapa kari ku gikuta kiri mu ibara ry'umweru ako kapa kari mu ibara ry'umuhondo kanditseho ngo ishyura na momo ku izina ribaruye kuri Kidi Shotsi ugakanda akanyenyeri ijana na mirongo inani na kabiri akanyenyeri umunani akanyenyeri rimwe akanyenyeri zeru karindwi icyenda gatanu gatanu karindwi umunani urwego.

Aba ni abantu harimo abagore n'abagabo aho harimo abantu bambayemo imyenda y'umweru, udupira two hejuru t'umweru, bari no mu gisharagari kirimo ibara ry'umuhondo aho bafite n'amazi imbere yabo y'inyange.

Aha hari uruganda rucuruza ibitoki, aho hari abagore bambaye utuntu two mu mutwe turi mu ibara ry'umweru, bambaye n'amataburiya ari mu ibara ry'ubururu bwijimye, aho bari kugenda babara ibitoki babishyira babibara.

Iyi ni inyandiko hari na mudasobwa hari na telefoni hari n'amagambo yanditse mu rurimi rw'icyongereza avuga mu rurimi rw'ikinyarwanda ko uwa mbere mu kumenya igabanywa n'inyungu batanze kuri imairi ya ikamasi platifomu mu rwanda.

Aha ni umuhanda wa kaburimbo aho hari umumotari ufite imizigo inyuma yanditse wo Pose delivari, aho umumotari afite kasike iri mu ibara ry'umutuku, kuruhande hari ibiti biri mu ibara ry'icyatsi, uwo mumotari; uwo muzingo urimabara ya oranje harimo umukara, harimo n'umuhondo.

Aha ni urwandiko rwo kwamamaza, aho bavuga ngo nihantu heza ho guhahira no kugurishiriza, biri mu rurimi rw'icyongereza bakavuga ko kuri insitagaramu yabo bita idukadotirwa, kuri fesibuku: iduka onirine, kuri watsapu ukabandikira kuri nimero bashyizeho.

Aba ni abamotari babiri bambaye udupira turi mu mabara y'icyatsi, twanditseho vuba vuba, bafite moto ifite akantu kanditseho vuba vuba, handitseho n'amagambo y'Icyongereza ngo 'you order we deliver' icyo ushaka barakizana, ku ruhande hirya hari umumotari, hari n'umugenzi uri kumuvugisha, inyuma hari inyubako ya etaje.

Uyu ni umumotari wambaye kasike iri mu ibara ry'ikigina, yambaye n'ishati iri mu ibara ry'umukara, afite imizigo yanditseho KFC derivari, hirya hari ivatiri iri mu ibara ry'umweru, hino hari iri mu ibara ry'umukara.

Hari abamotari ba Yego moto, aho bambaye kasike n'imipira n'amapantaro byose biri mu ibara ry'umutuku, Yego moto ryandikishijwe ibara ry'umweru, imbere hari imodoka ya toyota iri mu ibara ry'umweru, aho ku ruhande hari amamoto afite abagenzi, hirya hari inyubako, hari na ya mapoto yo ku muhanda.

Aha hari umumotari hakaba hari n'undi mukobwa ufite ibisuko birimo ibara ry'umutuku wijimye ,yambaye n'amarinete, yambaye n'agapira kari mu ibara ry'umweru, bamuhaye imizigo yanditseho safi, iyo moto ifite umuzigo inyuma wanditseho safi.

Aha ni mu muhanda wa kaburimbo aho ku ruhande hari umumotari wambaye ijiri ya orange afite n'umuzigo wanditseho irasi aho ari kureba imizigo yitandukanye. Hirya hari imodoka ku ruhande hari umunara.

Aha ni mu kabati kabika imyenda mu cyumba, aho kari mu ibara ry'umweru bwerurutse, hari n'urugi rufunguye ruri mu ibara rya shokora, hejuru hari amatara ari kwaka mu ibara ry'umweru, aho ku ruhande hari amarido ari mu ibara ry'umukara.

Uyu ni numugabo wambaye ikositimu iririmo ibara ry'ubururu bwijimye hafi gufata ku rugi ruri mw'ibara rya shokora harimo n'agahondo kerurutse gake aho ari kureba urwo rugi kuruhande hari igikuta cyirimo ibara ry'umweru.

Iki ni icyumba kirimo igitanda kiri mu mabara y'umukara gifite udusego turi mu mabara y'umweru dusa n'amashuka, harimo n'ikiringiti kiri mu mabara y'umukara n'umweru, aho hari n'amagambo yanditse mururimi rw'icyongereza avuga ko gikodeshwa amadolari igihumbi na magana atanu buri kwezi, kiri muri Kigali mu Rwanda.

Iyi ni inyubako ya etaje nziza cyane, ifite uturabyo, aho hari amagambo yanditse ko ikodeshwa amadorali igihumbi na magana abiri buri kwezi, iri i Kigali mu Rwanda, ifite amabara y'umweru harimo n'utudirishya twiza cyane.

Iyi ni inzu ifite intebe z'umweru zifite n'imisego yayo y'umweru zifite n'igisenge gifite udutara tw'umweru, n'igikuta kiri mu mabara y'ubururu bwerurutse utwo dusego harimo kamwe kazengurukijweho n'akazahabu.

Aha hari ubwiherero n'ubukarabiro bugiye butandukanye bwo mu nzu, aho bwiherero buri mu ibara ry'umweru, aho bakarabira hakaba hari ahaturuka amazi hejuru hari n'ikiyirori cyo kwireberamo, n'aho kogera mu maso hari mu ibara ry'umweru, n'ubutiriwari busa umukara.

Iyi ni inyubako ya kadasitere ifite amabati arimo ibara ry'umutuku, iyo nzu ikaba ifite amarangi ari mu ibara ry'ubururu n'umweru, hakaba hari amapave imbere yayo, ari mu ibara ry'umukara umutuku n'umweru, aho handitse amagambo y'Icyongereza ko iri kugurishwa miliyoni ijana cumi n'eshanu, ikaba ifite parikingi y'imodoka enye iherereye i Kanombe.

Aha ni mu nzu, harimo umugore n'umugabo umugore yambaye ikanzu, umugabo yambaye ishati y'amaboko maremare n'ipantaro, inyuma yabo hari akabati, bafite n'intebe imbere yabo n'imeza iriho ibintu bigiye bitandukanye.

Iki ni icyumba gifite igitanda kiri mu ibara rya shokora yijimye hari n'amarido afite umweru n'ubururu bwijimye, ikindi handitseho amagambo y'icyongereza avuga ko hano hantu hari gukodeshwa amadorari magana atanu mirongo itanu buri kwezi hari muri Kigali mu Rwanda, kabeza mu mujyi wa Kigali, ikindi hafite ibyumba bibiri.

Iyi ni inyubako ya etaje ifitemo amabara y'umweru n'ay'umukara, ifite igipangu kiri mu ibara ry'umukara, hanze hari igiti kiri ku ruhande kiri mu ibara ry'icyatsi, hari n'amagambo yanditse mu rurimi rw'icyongereza asobanuye mu kinyarwanda ko inzu ikodeshwa iri Kigali-Kabeza, ifite ibyumba bitatu, ubwogero butatu, ikodeshwa magana atanu buri kwezi.

Aha hari inyubako ifitemo amabara y'umutuku, umweru n'umuhondo werurutse cyane, hari n'amagambo yanditse mu rurimi rw'Icyongereza asobanuye mu Kinyarwanda ko iyi nzu ari apartment ikodeshwa iri mu Gisozi, ifitemo n'ibikoresho mu imbere, ifite ibyumba bibiri n'aho ubwogero bubiri.

Iyi ni inyubako ya etaje ifite amapave imbere yayo ikindi hari amagambo yanditse mu rurimi rw'icyongereza avuga ko iherereye mu rugando mu mujyi wa Kigali, aho bisobanuye mu ururimi rw'Ikinyarwanda ko igurishwa ikoshwa buri kwezi ibihumbi amadolari igihumbi na maganatanu.

Ni nyubako ya cadastri aho yanyanditseho mu rurimi rw'icyongereza ruvuga ko mu rurimi rw'ikinyarwanda ko ikodeshwa iri I Kanombe mu mujyi wa Kigali ifite ibyumba bine, ifite ubwogero butatu ikodeshwa ibihumbi magana ane buri kwezi iyo nyubako.

Iyi ni inyubako ikodeshwa izwiho nka konoshi ifite umusentire w'ubururu y'amabara y'umutuku werurutse cyane ifite amadirishya ari mu ibara ry'umweru akaba afite ibirahuri by'ubururu iyo nzu ikaba ikodeshwa akaba yanditse amagambo y'icyongereza avuga ngo mu kinyarwanda ko inzu ikodeshwa ifite icyumba kimwe n' gukarabiro bumwe ikodeshwa magana abiri buri kwezi iherereye kigali kacyiru.

Aha hari inyubako igurishwa, iherereye mu gace ka Kibagabaga, ifite amakaro, ifite igipangu, ifite umuryango uri mu ibara ry'uburu ufite n'ikirahuri.

Iyi ni inyubako ya kadasitere ifite amabati arimo ibara ry'ubururu. Ifite amakaro ari mu ibara ry'umweru, ikindi yanditse mu rurimi rw'icyongereza bisobanuye mu Kinyarwanda ko ari inzu ikodeshwa iri i Kanombe, ifite ibyumba bine ubwogero butatu, ikodeshwa magana atanu buri kwezi.

Iyi ni inyubako yo gukodeshwa aho ifungugiye ku muryango ikindi ikaba ifite amagambo yanditse mu rurimi rw'icyongereza ivuga ko ari inzu itararangira yo gukodeshwa ifite imbya bibiri, ifite n'ubwogero bumwe iherereye mu gace ka kibaragabaka.

Aha hari inyubako ya etaje, ifite amapavo imbere yayo, ku ruhange hari ibyatsi, hari n'amagambo yanditse mu rurimi y'Icyongereza, asibanuye mu Kinyarwanda ko iyi nzu ikodeshwa. iri i Kigali, Kibagabaga, ifite ibyumba bitanu, ubwogero butanu, ikodeshwa igihumbi na magana arindwi buri kwezi. Cy'amadorari,

Iyi ni inzu ya etaje hanze hahagaze umugabo wambaye agapira k'umutuku, hari amagambo yanditse mu rurimi rw'icyongereza asobanura mu kinyarwanda ko iyi inzu ikodeshwa iri Kigali kanombe ifite ibyumba bibiri, ifite urukarabiro habiri ikindi ikodeshwa amafaranga ibihumbi magana atatu mirongo itanu buri kwezi.

iyi ni inyubako ikodeshwa iherereye kimironko hari amagambo yanditse mu rurimi rwicyongereza hano bari kuvuga ko ifite imbyumba bibiri, ubwogero bubiri , aho kwicara, saro, ifite igikoni, ifite aho iparika ikindi ikodeshwa ibihumbi maganatatu buri kwezi no kubindi bisobanuro batanze nimero wahamagaraho

Iri mu nyubako irimo ibicuruzwa bijyiye bitandukanye, ibinyobwa n'ibiribwa, aho hano hari abagabo bicaye kuri mudasobwa bambaye udupira twa oranje n'abandi bahagaze bari kubaha ibicuruzwa bamaze kugura harimo abagabo bambaye umweru.

Aha ni mu isoko ry'imbuto n'ibindi biribwa bigiye bitandukanye, aho harimo umugore, harimo imineke, harimo amakokombure, amawotameloni n'ibindi bigiye bitandukanye, hari ibigiye biri mu dufuka tugiye dutandukanye n'ibiribwa muri rusange.

Aha ni mu ihuriro ry'abantu bagiye batandukanya abagore, abagabo, aho ku ruhande hari ahantu bacururiza imyenda y'abana n'iy'abantu bakuru, hirya hari amayesanseri bacamo aho harimo abagore bagiye batandukanye n'abagabo bari kugenda, harimo n'amatara.

Aha ni inyubako irimo ubucuruzi bw'imyenda n'ibintu bigiye bitandukanye, hahuriyemo abagore, abagabo aho bari kugenda bagura ibikoresho, harimo amakanzu harimo amajipo harimo ibintu bigiye bitandukanye.

Aha ni mu iduka ry'ibiribwa n'ibinyobwa, harimo imbaga y'abantu bagiye batandukanye abagore, abagabo. Bambaye udupfukamunwa twirinda COVID-19. Bafite ibiribwa bigiye bitandukanye harimo n'ibinyobwa.

Aha ni mu iduka bacuruza ibyo kurya n'ibyo kunywa hari umukobwa muremure, wambaye agapira kari mu imabara y'umutuku hejuru hasi yambaye umukara, yambaye na sipuresi, harimo ibyo kunya n'ibyo kunywa bigiye bitandukanye, imbere hari abandi bahagaze bari kureba ibyo bashaka.

Aha hari umugore wambaye ingofero iri mu mabara ya oranje yambaye n'ishati irimo amabara y'ubururu mo imbere hariba harimo ishati iri mumabara y'umweru afite inyundo ifitemo umuhondo umukara arayifashe yambaye inete ari guseka k'uruhande rwanditseho ejo heza ubwizigame bw'igihe gikire.

Ikarita ya RSSB y'ubwisungane mu kwivuza, aho byanditse mu magambo y'Ikinyarwanda bivuga ngo "Ikigo cy'Ubwiteganyirize mu Rwanda (RSSB)." Ku ruhande hari amagambo y'Icyongereza avuga ngo "our life our future" (Kubaho, ni ejo hazaza hacu). Hepfo handitseho ikarita y'umunyamuryango y'ubwisungane mu kwivuza. Ufite ino karita ntarembera mu rugo.

Aha hari umugore wicaye ku ntebe wambaye igitenge kirimo amabara y'umutuku, icyatsi n'ubururu harimo n'umukara, yambaye n'agapira kari mu ibara ry'umweru afite udupapuro tubiri twa mituweli twanditseho araesesibi.

Abantu babiri bafashe terefone mu ntoki zose ziri kwaka umwe yambaye umupira w'umutuku akaba bose bari imbere y'ameza akoze mu rubaho rw'umweru.

Aha ni mu isoko ry'ibiribwa n'ibinyobwa, aho harimo imbuto zigiye zitandukanye, harimo imboga z'ubwoko bwose, ikindi ku gikuta harimo amabara y'icyatsi cyerurutse, hirya harimo ibyapa biri mu mabara y'umutuku, ibindi biri muri orange.

Aha ni inzu y'ubucuruzi irimo ibiribwa byinshi bikozwe mu ifarini harimo igikoresho ucomeka ku mashanyarazi kigakonjesha ibiribwa byawe harimo ibiribwa bakoresha bizihiza isabukuru harimo n'ibindi harimo n'imigati hirya hahagaze umukobwa wambaye agapira karimo ibara ry'ubururu.

Aha ni mu nyubako icuruza ibyo kurya n'ibyo kunywa, aho ku ruhande hari ibiribwa byo mu ifarini, hari abagore, abagabo, n'abana baje guhaha mu isoko, baje kugura ibiribwa, hari abitandiye, hari abambaye ingofero z'umweru.

Iyi ni inzu y'ubucuruzi igiye ifite ibiribwa bigiye bitandukanye n'ibinyobwa bigiye bitandukanye biri mu moko menshi n'ibiribwa biri mu moko menshi, harimo n'ububugozi butambitse hejuru bubiri buri mu ibara ry'umukara.

Uyu ni umugore n'umugabo aho hari umugore wambaye agapira kari m'ibara ry'umutuku umugabo yamba agapira kari m'ibara ry'ubururu bwerurutse umugore afite inyanya ziri mu gashashi hirya ya amvirope umugabo nta kintu afite.

Iri ni isomero rigiye ririmo ibitabo bigiye bitandukanye byo gusoma, aho harimo ibintu bigiye bitandukanye by'abana, udutabo tw'abana, iby'abantu bakuru, harimo umugore wambaye ishati y'ubururu, ijipo y'umukara n'inkweto z'umukara afite agakapu.

Aha ni mu nyubako igurisha ibiribwa n'ibinyobwa aho hari umukobwa ufite ibisuku by'umukara birebire wambaye ikoti ry'ikoboyi n'ijipo y'ikoboyi, mu imbere yambaye agapira kari mabara y'umuhondo yambaye n'udukweto turi mu mabara y'umukara ayifite ari kureba ibyo byo kunywa n'ibyo kunywa.

Aha ni inyubako irimo ibicuruzwa bigiye bitandukanye harimo ibiribwa, harimo amabiswi y'ubwoko bugiye butandukanye, ari mu bice bigiye bitandukanye, biraribwa cyane harimo n'amashokora ari mu bwoko bwinshi.

Aha ni mu nyubako icuruza ibiribwa bye bitandukanye, ibiribwa n'ibinyobwa; aho harimo umugore wambaye igikomo ku kuboko kirimo amabara y'umukara ikindi ari kugura ibintu bigiye bitandukanye, harimo ibiribwa n'ibinyobwa byose hamwe, ari kugenda abigura yishimye.